Abantu batandukanye bicaye hamwe barimo guseka, imbere yabo hari imashini ndetse n'amacupa y'amazi, hirya gato hari abantu batagaragara neza, umwe aripfumbase.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama barimo baraganirizwa ku ngingo zitandukanye za leta imbere yabo hari amacupa y'amazi, impapuro zo kwandikaho telefoni zabo ndetse n'ibindi

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu nini barimo baraganira kuri gahunda zitandukanye za Leta. Imbere yabo harimo kugaragara ibikoresho bitandukanye bitanga akayaga ndetse n'ibibaho bitandukanye bigaragaza ingingo iri kuganirwaho.

Abantu benshi harimo abakobwa n'abahungu, bicaye hamwe barimo gutega amatwi ibyo mugenzi wabo avuga, mugenzi wabo abahagaze hagati, arimo gukora ibimenyetso by'umubiri asa nk'ubaganiriza, na bo barakurikiye, bicaye ku ntebe z'umutuku.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, barimo bagira ibintu biga, imbere yabo hari umuntu urimo kubaganiriza, inyuma y'uwo muntu hari ikibaho cyanditseho umutwe w'inama.

Abantu bane harimo abagabo babiri n'abagore babiri, bicaye ku ntebe, barimo baraganira ku nsanganyamatsiko iri ku kibaho kiri inyuma yabo, umugore umwe muri bo wambaye ijipo y'umukara n'umupira w'umuhondo, arimo aravuga ijambo afite mikoro mu ntoki.

Abantu batandukanye bari mu nama, barimo baratega amatwi uvuga, imbere yabo hari imashini, igikapu, amazi, inyuma yabo hari abandi bantu na bo bahugiye muri gahunda zabo.

Abantu bicaye hamwe harimo abazungu n'abirabura, bamwe bicaye imbere abandi bicaye inyuma, abandi bicaye inyuma yaho, abicaye imbere ku meza yabo hari amacupa y'amazi, impapuro, telefone, tablet n'ibindi.

Akazu kagaragaza umukozi ukorera banki, imbere ye hari impapuro, imashini, ikayi, ikaramu n'ibindi. Inyuma yaho hari akazu batangiramo amafaranga ya Mobayiro mani.

Akazu karekare kari hagati y'uruzitiro rw'amatafari ya ruriba. Ako kazu kubabatseho ibyuma bitanga rezo za telefoni ndetse kakaba kazengurukijweho n'ibyuma ku mpande bituma abantu badahanuka.

Ipoto rirerire ririho itara ryo ku muhanda ndetse n'insinga nyinshi. Riri iruhande rw'umuhanda no hafi y'igipangu cy'amatafari ahiye. Hafi y'iryo poto hari ibiti ndetse n'indabo zitandukanye.

Ipiloni rirerire ririho insinga nyinshi, hari ikirere kijimye hafi aho hari amazu, asize amarangi agiye atandukanye.

Ubusitani buconze neza burimo ururabo hagati, bukikijwe n'ibiti birebire cyane by'inganzamarumbo biri iruhande rw'umuhanda urimo imodoka imwe, ndetse hafi aho hakaba hari n'amazu y'amagorofa atandukanye, hari n'ikirere gikeye cy'ubururu n'umweru.

Abantu benshi cyane harimo abagore, abagabo, abana, abasaza n'abakecuru bicaye mu kibanza kinini kizengurukijwe n'ibiti byinshi, barimo baratega amatwi umugabo ubahagaze hagati urimo kuvuga ijambo.

Inyubako nini irimo utubati tugiye dutandukanye babikamo ibintu duteretsemo amakarito agiye arimo amadosiye atandukanye, hirya gato hari umuntu urimo kujya areba muri utwo tubati.

Ikigo cya polisi kirimo imodoka zigiye z'ubwoko butandukanye ndetse na bariyeri ibuza abantu kwinjira nta ruhushya babifitiye. Hafi aho hari ibiti ibyinshi by'ubwoko butandukanye.

Imodoka ya polisi iparitse mu muhanda, umupolisi wambaye agapfukamunwa arimo arayisohokamo cyangwa arimo kuyinjiramo. Hafi aho hari abantu batandukanye bibereye muri gahunda zabo bamwe bari kugenda abandi bagaruka, bari hafi y'amazu menshi n'ibiti byinshi.

Igikoresho gishyirwa mu nyubako nini kigamije kwirinda impanuka ishobora guterwa n'amashanyarazi, kikaba kigizwe n'umupira muremure bakurura kugira ngo kibashe gucamo ifu yo kuzimisha cyangwa wenda amazi.

Umugabo n'umugore bicaye imbere y'abantu barimo babaganiriza ku bitekerezo bigiye bitandukanye, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza amagambo n'ingingo barimo baganiraho.

Abagabo babiri bambaye ikositimu na karuvati, bicaye ku ntebe z'umukara bose bubitse imitwe mu ikayi bari kugira ibyo bandika, ku meza imbere yabo hateretse amazi, mikoro ndetse n'amabendera.

Abagabo babiri barimo baganirira impande y'imodoka y'umukara iparitse, umugabo umwe afite agafuka undi afite ingorofani, hafi aho hari urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka ndetse n'abamotari baparitse moto zabo hakurya.

Imodoka nini y'umweru, y'amapine icumi, itwara ibitaka cyangwa ibindi bintu iri muri kaburimbo. Harimo n'igare rihetse umugenzi kandi impande y'umuhanda hari ibiti birebire kandi binini.

Umugabo uri gusunika ingorofani y'igiti, uri ahantu hahurira abantu benshi wenda akaba ari nko mu isoko hakaba hahuriranye n'urujya n'uruza rw'imodoka ndetse hubatse n'amazu agiye atandukanye.

Imodoka nini y'umweru itwara izindi modoka zapfuye cyangwa izijyanywe mu yindi mirimo, ihetse indi modoka nto y'umweru, iri muri kaburimbo kandi uwo muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu.

Umuhanda munini w'umukara uri kugendwamo na moto itwaye umugenzi ndetse n'imodoka nini ya fuso iruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse n'amazu.

Imodoka nini ziri mu muhanda, izo modoka nini zikaba ziheka imizigo, hafi aho hari uruhurirane rw'ibiti, imodoka ndetse n'abantu cyane cyane bari ku igare.

Imodoka nini itwara abagenzi yitwa kwasiteri iri mu muhanda na moto ebyiri zitwara abagenzi, umuhanda w'umukara ukikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire hamwe n'amazu ari imbere yabyo.

Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyoneti itwaye amakaziye arimo inzoga, moto itwaye umugenzi, hafi y'umuhanda hari ibiti binini kandi birebire.

Umuhanda munini urimo abantu b'ingeri zitandukanye, mu mpande zawo hubatsweho amagorofa maremare, ibiti by'imikindo birebire, na none hariho akazu gacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'aho abagenzi bicara barimo baganira.

Icyapa kibuza kiri mu ishusho y'ingasire gishushanyijeho igare, cyanditseho amagambo agaragaza ko aho hantu hatemewe kugendwa n'amagare.

NI icyapa cyo mu muhanda kibuza kiri mu ishusho y'ingasire, ikirango cy'umukara kigaragaza ko bibujijwe kunyuraho kw'amagare muri icyo gice.

Ubucucike bw'amazu menshi ayuzuye n'andi maremare atari yuzura n'ibiti bigiye bitandukanye, insinga z'amashanyarazi ndetse n'ikirere.

Inyubako nini y'igorofa ifite ibirahure by'ubururu, ikikijwe n'andi mazu mato mato, hafi aho hari ibiti binini ndetse no hakurya hari akazu kariho insinga zizamutse mu kirere za rezo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'umukara amatara ari mu busitani yo kumuhanda ndetse n'ibiti binini biri ku ruhande rw'umuhanda, hirya gato hari icyapa cyo ku kumuhanda kigaragaza ko hari inzira ikomeza.

Amagambo y'umweru yanditse hasi mu muhanda w'umukara, agaragaza ko imbere hari akadunduguru bisaba kwitonda cyane. Hafi aho hari imodoka iri kuhatambuka, yihuta cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice birenze kimwe. Aho imihanda igabanira, harimo ibiti by'imikindo n'indabo z'ubwoko butandukanye. Mu gice cyo hirya cy'uwo muhanda hazengutsweho ibiti byinshi kandi birebire. Mu muhanda hagati harimo moto zitwaye abagenzi hamwe n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice byinshi, hari kugendamo moto ziheka abagenzi, imodoka, muri uwo muhanda kandi hateyemo ibiti by'imikindo birebire, ndetse n'indabo zitandukanye, igice cyo hirya cy'umuhanda gikikijwe n'ibiti byinshi, kandi birebire.

Imodoka nini y'umuhondo n'umweru itwara abagenzi igiye gukatira mu ruhande rw'ibumoso, imbere yayo hari moto itwaye umugenzi igiye guca mu ruhande rw'iburyo.